Udupupe dufite amabara agiye atandukanye, dutatu dufite amabara y'ubururu n'umweru, ikindi gifite ubururu n'umuhondo, ikindi gifite ikigina n'umuhondo, ibindi bisa umutuku, n'ibindi bifite amabara anyuranye.

Ikigo cy'ishuri, n'inzu zubakishijwe amatafari ahiye, zifite inkingi ziriho amabara y'umuhondo, hanze hari ibyuma abana bicundaho iyo bagiye mu kiruhuko, bifite irangi ry'umuhondo n'icyatsi.

Igishushanyo kiriho ibiziga bibiri. Ni ibizeru kimwe cyanditsemo a ikindi cyanditsemo ba hanze yacyo handitse u bishushanyije mu ikadire kimwe kiri mu ibara ry'umweru, ikindi gifite ibara ryenda gusa ubururu.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, imbere yabo abarimu batatu, bafite udukayi imbere yabo. Abanyeshuri bafite amakaye n'amakaramu, bambaye impuzankano y'umweru, barimo barandika, banateze amatwi ibyo bababwira.

Abana bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'amajipo y'ubururu bicaye bose hamwe. Bari ahantu hatwikiriye, bamwe baricaye abandi barahagaze bahuje ibiganza, harimo n'umuzungu wambaye agapira k'umutuku n'isaha ku kuboko.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru n'icyatsi bicaye ku ntebe zisa umweru, batatu muri bo barimo barareba ku rupapuro bareba ibibazo mwarimu yababajije bitegura kugira ngo babisubize neza.

Abantu batandukanye barimo baranyura ku mapave ashashe neza, hari abambaye imyenda y'umutuku n'amakoti, barimo barererekeza aho basohokera, ku ruhande hari akazu kicaramo abarinda umutekano gasize irangi ry'umweru, hafi yaho hari ibiti n'indabo.

Ya ni gahunda isanzwe irimo k'ubugene rwose, gacukuye kadasinze neza. Ya hariho ikindi kintu kuhande gifite ikibara kikigina. Yego.

Abantu babiri barimo baragenda ahantu hari amapave hameze neza, umwe yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro n'inkweto zifunze, undi yambaye agapira k'umweru n'ipantaro n'inkweto zifunguye, iruhande rwabo hari igiti cy'ikirabyo kirambagiye n'utundi turabyo tuhateye.